Inzira yo mu gice cy'abanyamaguru ihande haparitse ibinyabiziga by'inziga enye k'umurongo, ahandi hari abanyamaguru bari gutambukana n'ibirango by'ibigo runaka.

Hari ikigo runaka gishinzwe guhereza serivise z'ubwishingizi ku baturage, akaba ari icyapa kiranga icyi kigo, iruhande rwayo hakaba hari ubusitani burimo indabo z'iroza ndetse n'indabo z'icyatsi.

Ikirango kigaragaza ibikorwa runaka bibera mu gace iruhande hari igiti kirekire, iruhande hari imiyoboro y'amashanyarazi inyuranamo mu bice bitandukanye.

Imyenda icuruzwa cyangwa se iri kwamamazwa, iri mu mabara atandukanye, aho hari umupira ufite ibara ry'umutuku, umupira ufite ibara ry'icyatsi n'umupira ufite ibara ryijimye ariko atari cyane.

Ibikapu byakozwe byifashishijwe ibitambaro bikorerwa ino aha iwacu mu Rwanda muri gahunda ya bikorewe iwacu, iruhande hari inkuta z'umweru, bikaba biri ku giti gifite ibara ry'umuhondo ritiganje.

Ishusho iragaragaza icyumba runaka aho haherereyemo ibikoresho by'ubugeni bikozwe mu biti hakaba hari akabati birambitsemo.

Ishusho riragaragaza ahantu hateretse ibikorwa by'ubugeni bwo mu muco nyarwanda bikaba birimo ibara ry'umweru, ibara ry'umutuku, ndetse n'ibara ry'umukara.

Ishusho igaragaza abantu babiri, harimo umugabo n'umugore, umugabo wirabura n'umugore ufite uruhu rwera, aho bari kugura imyenda ahantu runaka, akaba yambaye imyenda y'icyatsi, undi yambaye umupira w'umweru.

Isoko runaka aho harimo ugura n'ugurisha aho ugura ni nk'aho ari kwishyura, inyuma y'aho hakaba hari ibicuruzwa bacuruza byiganjemo imyenda.

Abagabo babiri bafite ikirango mu ntoki aho inyuma yabo hari ibinyabiziga by'inziga enye bibiri, kimwe gifite ibara ry'umuhondo ikindi gifite ibara ry'umweru.

Inoti y'Igihugu cy'u Rwanda y'amafaranga ijana, yakoreshwaga mu bihe bya kera, ifite ibara ryiganjemo icyatsi ndetse n'ubururu bubisi.

Inoti y'amafaranga ibihumbi bitanu yo mu gihugu cy'u Rwanda, ikaba ifite ibara ryiganje ritukura, ikaba ishushanyijeho igishushanyo cy'ingagi.

Amafaranga makumyabiri yo mu gihugu cy'u Rwanda, hakaba hariho ikirangantego cy'igihugu cy'u Rwanda, akaba arambitse hasi, hakaba hari ibara ry'umweru byiganje.

Amafaranga ibihumbi bibiri akoreshwa mu gihugu cy'u Rwanda akaba afite ibara ry'umutuku ryerurutse, hakaba hariho ibikoresho bikoreshwa mu gukwirakwiza itumanaho ndetse n'agaseke ku ruhande.

Abantu babiri bari ahatangirwa amafaranga muri banki runaka, aho ari umugore wambaye umupira w'ibara ry'umukara, ijipo y'ibara ry'ubururu, n'inkweto zifite ibara ry'umukara. Iruhande hakaba hari umugabo, bakaba baje kwaka serivisi kuri banki.

Inoti y'amafaranga ibihumbi bibiri, ikoreshwa mu gihugu cy'u Rwanda, aho igizwe n'ibara ry'umutuku wererutse ndetse n'ibara ry'icyatsi ndetse hakaba harimo n'agaseke gashushanyijemo hagati.

Abantu babiri aho hamwe umwe ari umugabo undi ari umugore, imbere yabo hakaba hari intebe ifite ibara ry'ubururu, akaba inyuma yabo hari ibicuruzwa byo kunywa bisa nk'aho babicuruza.

Umuntu uri gutanga amata cyangwa se kuyagurisha iruhande rwe hari undi uri kuyagura, ahagaze iruhande rwe akaba yambaye umwenda utukura, akaba afite igisukisho ari gusukisha amata gifite ibara ry'icyatsi.

Umunyamaguru uri gutambuka yambaye umwenda wo hejuru ufite ibara ry'umuhondo iruhande hakaba hari ibinyabiziga by'inziga enye biparitse aho bibiri bifite ibara ry'umweru kimwe gifite ibara ry'icyatsi inyuma hakaba hari inyubako ikorerwamo ibikorwa by'ubucuruzi.

Umugabo wambaye umupira ufite ibara ry'ubururu ryerurutse, iruhande hari umugore wambaye ikanzu ifite ibara ry'umuhondo, ndetse n'imirongo y'umukara akaba afite terefone ngendanwa mu ntoki.

Mashini hano iragaragaza banki ya Kigali, uburyo amafaranga yagiye yinjira, asohoka kuri konti runaka. Hakaba hari amafaranga yinjiye kuri cumi na gatatu z'ukwa kane, kugera kuri cumi n'icyenda z'ukwa kane, bibiri na makumyabiri na gatatu.

Umugabo wambaye umwenda w'ibara ry'ubururu bwijimye ndetse n'ibara ry'umutuku akaba nta musatsi afite; imbere ye hakaba hari ibirango bigaragaza uburyo bw'ivunjishwa ry'amafaranga akaba ari kugenda ahindura bitewe nuko nayo agenda ahindagurika.

Umuntu w'umugabo wambaye umupira w'ibara ry'umuhondo imbere hari ikinyabiziga cy'inziga enye gifite ibara ry'umweru ryiganje; iruhande rwe hari ibirango by'ibigo runaka ndetse n'inzitiro zifite ibara ry'umweru

Hano bari kwerekana ahantu ukoresha wohereza amafaranga, akaba ari ishami riherereye i Remera, aho hari uko amafaranga avunjishwa n'ayo avunjisha.

Umugabo uhagaze impande y'inyubako imbere ye hari igiti kirekire, inyubako ikaba igiye iriho ibirango bitandukanye bimeze nk'aho havunjishirizwa amafaranga.

Umuryango ufunze uzengurukijeho imitako ifite ibara ry'umweru, umukara ndetse n'ubururu, imbere hakaba hari ikirango cyerekana ibikorerwamo.

Imitako itandukanye ikozwe mu biti ndetse n'ibirahure, aho hagiye harimo indabo zifite ibara ry'icyatsi ndetse zikaba zirambitse ku bikoresho bikozwe mu giti, inyuma hakaba hari ibara ry'umutuku.

Ahantu hafatirwa amafunguro mu nyubako runaka hagiye harimo imyenya itandukanye bitewe naho ushaka kwicara, iruhande hari imitako y'indabo ngufige zifitemo amabara y'icyatsi.

Ahagurishirizwa ibyo kunywa bisembuye hafite ibara ritukura ndetse bakaba bafite ibyo kunywa bigiye bitandukanye imbere hari ikirahure.

Inyubako igaragara, ishobora kuba icumbikwamo abantu bakishyura, iruhande hari umutaka muremure, ibara ry'umutuku, iruhande rwawo hari undi mutaka muremure, ibara ry'umuhondo, inyubako ikaba ifitemo ibara ry'umweru n'umukara ndetse n'umutuku.

Isoko rihahirwamo ibyo kurya, aho harimo abagabo ndetse n'abagore, hakaba harimo umugore wambaye umwenda ufite ibara ry'umuhondo ndetse n'umukara wiganje; aho iruhande rwe hari ibiribwa bitandukanye: ibitoki, amateke, karoti ndetse n'ibindi.

Isoko ricururizwamo ibijyanye n'imbuto umugore wambaye igitambaro mu mutwe akaba ari gutanga imbuto zitandukanye naho harimo inanasi, ibinyomoro, ndetse n'izindi.

Abantu bakaba bari mu isoko rusange, aho hari abicaye baganira, abandi bakaba bari kuzamuka, iruhande rwabo hakaba hari ibara ry'ubururu, bakaba bazamuka bambaye imyenda y'umuhondo ndetse n'inkweto zifunguye.

Kurya bitandukanye, hari umuntu ufashe ibase ifite ibara ry'ubururu nto, harimo amashaza iruhande rwe hakaba hari inyanya, imineke, ibishyimbo ndetse n'ifu iri mu mufuka.

Isoko ricururizwamo ibiribwa ahaba ri kwekanwa ibishyimbo ndetse n'ibigori iruhande hari ababyeyi bicaye ku ntebe bari kubi kubicuruza.

Isoko cyangwa se ahandi hantu bacururiza ibijyanye n'imyambaro aho ahegereye umuryango hari ikibumbano cyambaye ikanzu y'umukara, iruhande hari intebe y'ubururu ndetse n'ibindi bicuruzwa biri hanze.

Isoko ricururizwamo ibyo kurya bitandukanye aho hari umugore wambaye umwenda w'ibara ry'umutuku ryiganje, iruhande akaba ari gucuruza ibyo kurya bitandukanye harimo amashu ndetse n'ibirayi ndetse na karoti.

Ikinyabiziga cy'inziga ebyiri kiri gutambuka gifite umuyobozi ufite ingofero iriho ibara ritukura, iruhande hari ibinyabiziga by'inziga enye biri gutambuka aho kimwe gifite ibara ry'umukara, ikindi gifite ibara ry'umweru.

Umunyamaguru uri gutambuka iruhande rw'isoko ricururizwamo ibintu bijyanye n'amavuta ndetse n'ibindi bitandukanye aho yambaye umwenda ufite ibara ry'icyatsi n'inkweto zifunguye zifite imishumi y'umukara.

Inyubako ndende ikorerwamo ibikorwa remezo runaka, iruhande rwayo hari amabati y'ibara ry'ubururu ndetse n'ibinyabiziga by'inziginya byiganjemo ibyumweru biparitse n'abanyamaguru bari gutambuka ku ruhande.

Ifoto iragaragaza ahantu mu isoko hacururizwa ibiribwa bibisi, hari kugaragaramo ibiribwa bw'inyanya ndetse n'intoryi, hakaba harimo abantu bari no kubigurisha.

Ishusho iragaragaza abagabo batatu bahagaze, ahatangirwa amayinite, ku kigo runaka gishinzwe kugezaho abaturage ibigendanye n'itumanaho mu Rwanda.

Isoko ricururizwamo ibyo kurya bitandukanye aho hari umubyeyi ku ruhande uri gutambuka wambaye ikanzu ifite ibara ritukura iruhande rwe hakaba hari ibyo kurya bacuruza byiganjemo imboga z'intoryi ndetse na karoti.

Umugabo uri iruhande rw'isanduku ifite ibara ry'umutuku, iruhande rwe hakaba hari ibinyamitende by'inziga enye, gifite ibara ryerurutse, ndetse n'ikindi gifite ibara ry'umukara.

Ishusho iragaragaza inyubako yiganjemo ibara ry'umweru yerekana imuri zayo, ikaba ari inzu iri kugurishwa mu mujyi wa Kigali miliyoni mirongo irindwi n'ebyiri.

Aha akaba ari ifoto igaragaza inzu miliyoni mirongo irindwi n'eshanu z'amanyarwanda zagura muri Kigali. Inzu ikaba ifite igikoni ndetse n'ibyumba ndi kubona bisa umukara n'umweru.

Ishusho iragaragaza abantu babiri aho umwe ari umugabo, undi ari umugore bigaragara nkaho ari kumwereka ahantu bageze cyangwa ari kumugurisha ibikoresho bihari hakaba hari intebe zo kwicaramo.

Ishusho iragaragaza umugabo uri gukora ku muryango ukoresheje ibiti umugabo akaba yambaye impeta akaba yambaye ikote ry'umukara akaba ari gukora ku rugi rufite ibara ry'umuhondo.

Umugabo wambaye ipantaro y'umukara ndetse n'umupira, hejuru higanjemo ibara ry'icyatsi, kabari mu muhanda nyabagendwa w'ibitaka, aho iruhande rwawo mu nkengero hari imirima, iteyemo ibihingwa ndetsehepfo hakaba hari inyubako zitandukanye.

Umugabo w'uruhu rwera n'ahandi hari umugore ufite imisatsi miremire wambaye ikanzu iganjemo ibara ry'umutuku, umugabo akaba yambaye imyenda yiganjemo ibara ry'umweru, n'ipantaro y'ubururu iruhande hakaba hari ibikoresho bikoreshwa mu nzu.

Inyubako yiganjemo ibara ry'umweru, ikaba ikodeshwa amafaranga miriyoni ebyiri, ikaba iherereye mu mujyi wa Kigali.

Icyumba kiri uburiri bushashe, ibitambaro by'ubururu bubisi, gifite amadirishya y'umukara, gifite ibara ryiganjemo umweru, kukaba gikodeshwa miriyoni imwe n'ibihumbi ijana ku kwezi i Kigali mu rwanda.

Ubwogero bufite ibara ry'umweru ndetse n'amadirishya y'umukara, akaba ari inzu iri kugurishwa miliyoni ijana na mirongo itatu z'amafaranga y'u Rwanda i Kigali mu Rwanda.

Ahangaha ndi kubona inzu igurishwa ku bihumbi maganatatu igizwe n'ibyumba bine ubwogero bubiri ikaba iherereye batsinda kagugu.

Inzu iherereye Kibagabaga mu mujyi wa Kigali igurishwa miliyoni iijana na mirongo ine ikaba ifite ibara ryiganje risa umweru ndetse ikaba igiye ifite n'imitako y'indabo.

Umuntu ufite igikapu mu ntoki. Umugore ufite imisatsi miremire akaba afite umwenda wiganjemo ibara ry'umutuku akaba ari mu isoko, yagiye guhaha ibyokurya bitandukanye.

Ifoto irimo ahantu, inyubako ihahirwamo, ifite ameza y'umutuku, harimo abantu bambaye imipira y'ubururu ndetse n'andi mabara.

Isoko ricururizwamo ibijyanye n'imyambaro, hasi hakaba hari imyambaro imwe n'imwe igurishwa, ku ruhande hakaba hari umugabo wambaye ikoti ry'umukara, akaba afashe ku cyuma kihegereye.

Ishusho iragaragaza abaturage bicaye mu busitani begereye inyubako, aho imbere yabo hari umubyeyi uhagaze, umugore akaba ari kugera ibintu agenda abagezaho binyuze mu buryo bw'inyandiko.

Abantu benshi bitabiriye inama cyangwa se ikindi gikorwa babahamagariyemo, aho hagiye harimo ibirango byerekana ibyahabereye, hakaba hari umugabo ufite indangururamajwi ndetse n'uwambaye umwenda afite ibara ry'ubururu ryiganje, akaba afite ingofero mu ntoki.

Abagabo n'abagore bahuriye ahantu mu gikorwa runaka, mu nama cyangwa se ibindi bintu byabahurije hamwe, aho harimo bambaye ingofero bafite n'inkoni ndetse bakaba bafite n'kayi mu ntoki.

Isoko bahahiramo ibyo kurya, imbere hakaba hari abantu baje guhaha harimo abagabo babiri ndetse n'abagore babiri bakoramo, bambaye imyenda irimo ibara ry'umutuku, iruhande hakaba hari ibirayi.

Umukobwa ufite imisatsi miremimire wambaye umwenda ufite ibara ry'ubururu hejuru ndetse n'umupira w'umweru, akaba ari mu isoko ari guhaha ibyo kurya ndetse n'inanasi.

Habikwa ibyo kunywa cyangwa se hacururizwa ibyo kunywa byiganjemo ibidasembuye, harimo fanta z'ubwoko bugiye butandukanye.

Isoko cyangwa se ahandi hacuruzwa ibyo kurya bigiye bitandukanye ho ibyoku kurya bigiye biri mu bwoko butandukanye ndetse hakaba hagiye harimo amabara yabyo atandukanye.

Abantu benshi bahuriye mu isoko runaka bagiye guhaha ibintu bitandukanye, umwe yambaye umwenda w'umukara ndetse n'ipantaro y'umuhondo, aho harimo ufite uruhu rwera wambaye umupira w'ubururu ufashe ikintu ari kugenda asunika cy'ibara ry'umuhondo.